Abayobozi mu nzego zitandukanye bahurira hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, aho bahurira mu nyubako zabugenewe haba harimo ibikorwaremezo birimo ameza ndetse n'intebe bicaraho kugira ngo babashe kuba bafatira imyanzuro hamwe.

Abayobozi ndetse n'abaturage bahuriye ahantu hamwe ,bakaba bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, aho iyi nama bashobora kuba bafatiramo imyanzuro ikindi kandi bakiga ku bibazo bigiye bitandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bahuriza hamwe abantu kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye, bityo babashe kuba bakemura ibibazo bitandukanye, ikindi kandi bakabasha gufatira imyanzuro muri izo nama.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abantu ufite indangururamajwi uri gutanga ikiganiro runaka kugira ngo abantu babashe kuba bahabwa inama ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye.

Ababyeyi bicaye ahantu hamwe bakaba bari gukora inama igamije kungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, izi nama zifasha abaturage kuba bakungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye.

abayobozi mu bigo by'amabanki ndetse n'amakoperative, bakangurira abantu, kujya bagana ibyo bigo kugira ngo babashe kuba bahabwa amafaranga, ikindi kandi bagirwe n'inama y'uburyo baba bagomba kwiteza imbere.

Abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abadamu bahurira mu nama zitandukanye kugira ngo babashe kuba bahabwa amahugurwa agiye atandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye.

Abayobozi mu nzego z'umutekano batanga ibiganiro ku baturage kugira ngo babashe kuba babaha inama ikindi kandi babahugure ku buryo baba bagomba gukumira ibyaha ndetse no kwicungira umutekano.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bahuriza hamwe abantu kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye, ikindi kandi iyo baganiriye gutya babasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, bityo abaturarwanda bakabaho bafite umutekano.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, aba abantu bakaba barimo, abambaye imyambaro y'inzego z'umutekano, guhuriza hamwe abantu nk'aba, babasha kuba baganira ku ngingo zitandukanye, ikindi kandi bakaba bafatira imyanzuro hamwe.

Inkangara ni igikoresho gakondo, kigaragaza umuco nyarwanda, aho iki gikoresho bagikoreshaga mu gutwara ibintu bigiye bitandukanye, aho babishyiramo imbere, maze bagapfundikira, bakaba babasha kujya aho bashaka.

Abakobwa bambaye imikinyero iri mu mabara y'umweru, ikindi kandi bakaba bateze udutambaro mu mutwe, bari kubyina imbyino gakondo bateze amaboko, mu birori bitandukanye, abakora izi mbyino banezezwa n'uko zibasha gususurutsa abantu.

Abantu babiri bari gukina umukino w'igisoro, igisoro kikaba ari umukino ukinwa kugira ngo abantu babashe kuba baruhura mu mutwe bityo bakaba babasha kumva bafite ubuzima bwiza.

Ihembe ni igikoresho gakondo cyifashishwaga n'abanyarwanda baririmbaga imbyino gakondo bakakifashisha nk'igicurangisho kibafasha kubaha injyana ikindi kandi kikaba kiranga umuco nyarwanda.

Inzu y'ihema hafi yayo hari abantu bari kubyina bambaye imikenyero y'umweru n'ubururu, abandi bambaye imikenyero y'umukara n'umutuku bari kubyina, bafite amacumu, bambaye n'imigara mu gahanga bari kubyina mu kibuga kirimo ibyatsi.

Abakobwa baririmba indirimbo gakondo bakaba bambaye imikenyero ikindi kandi hafi yabo hakaba hari ingoma, bakaba bitabiriye ibirori bigiye bitandukanye, abakora umwuga wo kuririmba imbyino gakondo banezezwa n'uko babasha gususurutsa abantu.

Abasore n'inkumi babyina imbyino gakondo bahurira mu birori bitandukanye kugira ngo babashe kwizihiza iyo minsi mikuru, aho babyinyina imbyino gakondo zigiye zitandukanye bityo bagasusurutsa abitabiriye ibyo birori.

Umwirongi ni igikoresho cyifashishwa mu mbyino gakondo aho ababyinnyi bayiza bityo bigatanga injyana. Abasaza babiri bari kuvuza umwirongi kugira ngo babashe kumvikanisha injyana y'indirimbo.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga amashanyarazi bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha, hagaragara inyubako iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru ikindi kandi hakaba hari imirasire y'izuba ishobora gutanga amashanyarazi.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga umuriro w'amashanyarazi bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo imyambaro bambara ibafasha kugira ngo babashe kuba bakora akazi kabo neza.

Abakozi bakora mu bijyanye no gutanga ingufu z'amashanyarazi, bakaba bambaye ibikoresho bitandukanye by'akazi, birimo imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha kugira ngo babashe kuba batunganya umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako ziri mu mabara y'umuhondo, zikaba zifite ibikorwa remezo by'umuriro w'amashanyarazi, ikindi kandi inyuma y'izo nyubako hakaba hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Ingomero z'amashanyarazi aho bafatira umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ubashe kuba wagera ku baturarwanda. Hafi y'urwo rugomero hakaba hari umuhanda wa kaburimbo aho imodoka zibasha kuba zatambuka. Ikindi kandi ku nkengero y'umuhanda hakaba hari inyubako ntoya.

Ingomero cyangwa se inganda z'amashanyarazi, aho haba hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo babashe kuba bakora uyu muriro, ikindi kandi kuri izo ngomero hakaba hari imashini zitandukanye.

Ingomero zitanga amashanyarazi, ziba zubakishijwe imashini z'ubwoko butandukanye, zifasha kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ube wakorwa kandi utunganywe bityo ubashe kuba wagera ku baturarwanda bose.

Abakozi bakora muri serivisi zo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturarwanda, bakaba bari aho bafatiye urugomero rw'amashanyarazi buririra amapironi, bakora ibyuma bitandukanye, kugira ngo babashe kuba batunganya umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga amashanyarazi, bifashisha ibikoresho bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe kuba bageza umuriro ku baturarwanda, ikindi kandi baba bambaye ibikoresho bitandukanye by'ubwirinzi bibafasha kuba bakirinda gukora impanuka.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga umuriro w'amashanyarazi bakaba bambaye imyambaro yabigenewe, ibikoresho bifashisha birimo ibibafasha kugira ngo babashe kuba batunganya neza ikindi kandi basane ibikoresho biba byarangiritse.

Umunara muremure hafi yawo hari ibikoresho biwugize ikindi kandi ukaba wubakiye urugo ruwuzengurutse, hafi y'umunara hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti bibiri by'imikindo.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga umuriro w'amashanyarazi, bifashisha ibikoresho bitandukanye, ikindi kandi baba bambaye n'imyambaro ibaranga ndetse n'ibikoresho by'ubwirinzi kugira ngo babashe kuba bakikingira impanuka mu gihe bakora akazi kabo.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga amashanyarazi babasha kwifashisha ibikoresho bitandukanye birimo imyambaro baba bambaye kugira ngo babashe kuba babasha gukora akazi kabo nta mbogamizi.

Abakozi bakora muri serivisi zo gutanga amashanyarazi bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bakora neza umwuga wabo, ikindi kandi baba bafite ibikoresho by'ubwirinzi bibafasha kuba bakirinda gukora impanuka zitandukanye.

Amapoto afasheho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, munsi yayo hakaba hari ingo zitandukanye, ikindi kandi hakaba hari n'insina, hafi hakaba hari n'abantu bahagaze, hakurya hakaba hari imisozi ituyeho abantu, kandi ikaba iriho ubwoko bw'ibidukikije bitandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano bakaba bari ku kigo gitangirwaho serivisi z'ubuzima bari kumwe n'inzego zitandukanye bari kuririmba imbere yabo hari abantu bari kubafotora.

i Icyapa giherereye mu Karere ka Nyagatare, mu Murenge wa Gatunda, mu Kagari ka Nyamirembe, Umudugudu wa Kajevuba, hakaba hagaragaraho indangagaciro ndetse na kirazira by'aba bantu batuye muri aka gace.

Inyubako itangirwamo serivisi za leta, imbere yayo hakaba hari ibiti by'ubwoko bwinshi, ikindi kandi hakaba hari ibiti by'imikindo ndetse n'umuhanda w'amaguru ubasha kuba wagera kuri iyo nyubako.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bakaba bari ku kibuga hafi y'inyubako y'akagari bakaba bari gutera intambwe bava muri ako karere. Impande y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani buriho ibyatsi, ikindi kandi inyuma y'iyo nyubako hakaba hari ibiti birebire.

Inyubako itanga serivisi, zirimo ikusanyirizo ry'amata, abaturage bakaba bahurira kuri iyi nyubako kugira ngo babashe kugura. Icyindi kandi abafite amata bakaba bayajyana kuri iri kusanyirizo kugira ngo babashe kuba bayatunganya.

Inyubako itangirwamo serivisi za Leta, ikaba iri ahantu hafi y'ishyamba, imbere yayo hakaba hari umuhanda w'igitaka ugerayo. Ni byiza gusigasira ibi bikorwaremezo bitandukanye kuko bidufasha mu iterambere.

Inyubako y'ubururu iri hagati y'ibiti byinshi, inyuma yayo hakaba hari ikigega gifata amazi hamwe n'izindi nyubako zitanga serivisi za leta zirimo iz'ubuzima bikangurira abaturarwanda kubigana kugira babashe kubagirwa inama ku bijyanye n'ubuzima.

Abaturage bari ku nyubako itangirwamo serivisi za Leta, bakaba baje kwaka serivisi zitandukanye, inyubako ikaba iri ahantu hari ibiti, ikindi kandi hakaba hari n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Inyubako zitanga serivisi za leta zigiye zitandukanye, ziba zifite ibikorwaremezo byiganjemo imihanda, amatara ,ikindi kandi izi nyubako zigira ubusitani kugirango ngo bubashe kuba bwakakira abantu baza bagana izo nyubako.

Ibiraro byo mu kirere byifashishwa kugira ngo abantu boroherezwe ingendo, aho abamotari babasha kunyuzaho moto bityo bakabasha kuba bagera aho bagiye bitabagoye.

Ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu haba hari urujya n'uruza rw'abantu kuko ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye bibasha kuba byahagera, ikindi kandi hakaba hari n'ibyapa bigaragaza igihugu ndetse n'icyo bihana imbibi.

Ikiraro cyo mu kirere gikubiye mu bikorwa remezo bitandukanye. Aho abanyarwanda bashyiriweho uburyo butandukanye bushobora kuba bwabafasha mu ngendo zitandukanye. Hubakwa ibiraro hirya no hino mu gihugu kugira ngo boroshye ingendo.

Umuhanda w'igitaka hepfo yawo hakaba hari inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'umutuku, ikindi kandi zikaba zifite irangi ry'umuhondo, haruguru y'umuhanda hari igisambu kirimo ibiti birebire ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera butandukanye.

Inyubako nini yubakishijwe ibyuma gusa, ikaba isakaje amabati, ikaba kandi iri mu mabara y'umweru ndetse n'utundi tubara duto tw'ubururu, imbere yaho hakaba hari ikibuga k'igitaka ndetse hakurya hakaba hari ibimera bigiye bitandukanye.

Inyubako zitanga serivisi za leta zigira ibikorwaremezo bitandukanye, birimo amatara, imihanda ya kaburimbo, ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo abaza bagana izo nyubako babashe kuba bakoroherwa kubona serivisi bashaka.

Ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda haba hari abantu batandukanye bari gukora imirimo itandukanye, ku nkengero haba hari abantu ikindi kandi haba hari ibyapa bigaragaza kandi bigaserera abantu bagiye muri Uganda babifuriza urugendo ruhire ndetse n'imodoka ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Abantu bahagaze, bari kwifotoza bafite agapapuro, hirya yabo hakaba hari imodoka, inyuma yabo hakaba hari inyubako y'ihema, irimo umuntu ndetse n'umuntu bahagaze hirya gato, inyuma yabo hakaba hari igare, ikindi kandi akaba ari mu byatsi.

Umugabo uhagaze mu bantu benshi akaba afite icyuma k'indangururamajwi, inama nk'izi zihuriza abantu hamwe mu kwiga ku ngingo zitandukanye aho babasha gufatira imyanzuro hamwe bityo bagakemura ibibazo bitandukanye.

Abayobozi bakora mu nzego z'umutekano bahuriye hamwe kugira ngo babashe kwiga ku bibazo ndetse babashe kuba bashakira imyanzuro bityo abaturarwanda babeho bafite amahoro ndetse n'umutekano.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'umutekano bakaba bari mu biro, aho bafatira hamwe imyanzuro igiye itandukanye ku bibazo bitandukanye kugira ngo bafashe abaturage kubaho bafite amahoro ndetse n'umutekano.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe ku kibuga impande y'inyubako bakaba bari kuganirizwa ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubutabera kugira ngo babashe kuba bakemurirwa ibibazo bigiye bitandukanye, ikindi bafatire imyanzuro hamwe.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bakaba bahuriye hamwe kugira ngo bakore inama, bityo babashe kuba bakemura ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo abanyarwanda babeho bafite amahoro ndetse n'umutekano.

Abagabo benshi bari ahantu mu kibuga kiriho ibyatsi byinshi, bakaba bafite inyana mu kiziriko. Inzego z'ubuyobozi zitandukanye bagira umunsi bakagabira abantu baba baragize ubutwari, bakabaha inka cyangwa izindi mpano zitandukanye.

Abanyeshuri benshi bicaye hanze imbere y'amashuri, imbere yabo hahagaze umupolisi uri gutanga ikiganiro, ikindi kandi imbere y'ishuri, hari ibiti ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bari mu nzu bambaye imyambaro igiye itandukanye biganjemo abasirikare ndetse n'abandi bari mu nzego zitandukanye, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bahagaze bakaba bari mu nyubako ifite ibara ry'umweru imbere.

Umuntu ushoreye igare akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikindi kandi kuri iryo gare hakaba hari imizigo, hirya y'umuhanda hakaba hari ikibuga kiriho ibyatsi byinshi ndetse n'inyubako.

Umuntu wicaye ku ipikipiki, akaba ari kugenda mu muhanda w'amabuye, hirya ye hakaba hari inyubako zitandukanye zirimo izifite amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'umweru,

Akayira k'igitaka hepfo y'akayira hakaba hari inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'umutuku, haruguru y'agahanda hakaba hari ibimera ndetse n'igiti kirekire ndetse n'icyapa cyanditseho ijana na mirongo itanu na kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru iwambukiranya bigaragaza aho abanyamaguru bambukira, hepfo y'umuhanda hakaba hari inyubako ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ikoni ry'umuhanda, aho abakoresha umuhanda baba bagomba gusobanukirwa ibimenyetso ndetse n'ibyapa byo ku muhanda kugira ngo babashe kuba bakirinda impanuka bityo bagire umutekano wo mu muhanda.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, ikindi kandi hafi y'icyo cyapa hakaba hari inyubako zitandukanye ndetse n'ibiti hafi yaho ngaho hakaba hari inyubako, ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Kamera yo mu muhanda iri ahantu mwishyamba hafi y'umuhanda abatwara ibinyabiziga bashishikarizwa kugabanya umuvuduko mu gihe bagenda mu muhanda kugira ngo birinde impanuka zigiye zitandukanye bityo babashe kugera aho bajya cyangwa bava amahoro.

Umuntu utwaye igare akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya ye hakaba hari imodoka iparitse imbere y'inyubako, iri mu mabara y'umweru, hafi hakaba hari umugabo uhagaze, uri kuzamuka wambaye imyenda y'impuzankano.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abantu aho ihagaze aho abagenzi baba bayitegerereje hafi yayo hakaba hari umuntu uri kugenda, hirya y'inyubako hakaba hari ibikorwaremezo bitandukanye birimo inyubako ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imihanda ya kaburimbo ifasha abantu mu kugenda mu bice bitandukanye by'igihugu, ikindi kandi bikaba biborohereza ingendo bakora za buri munsi. Icyapa kigaragaza ivuriro aho kigaragaza inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi.

Icyapa kiri hafi ya kaburimbo ahantu impande y'ishyamba aho ikiri kuranga nimero y'umuhanda. Ni byiza ko tuba tugomba kubungabunga ibidukikije ndetse n'ibikorwaremezo kugira ngo tubashe kwiteza imbere.

Imodoka y'umutuku ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari inyubako, ikindi kandi hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, imihanda ya kaburimbo yoroshya ingendo mu buzima bwa buri munsi.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo hirya y'umuhanda hakaba hari inyubako zitandukanye imbere yazo hakaba hari kugenda abantu, ikindi kandi ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abamotari babiri bari ku ipikipiki, bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo, ikindi kandi ku nkengero ya kaburimbo, hakaba hari ibimera bitandukanye, birimo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, hepfo ya kaburimbo hakaba hari inyubako zisakaje amabati y'umutuku.

Inzego z'umutekano zitumiza inama zigiye zitandukanye, aho zihuriza hamwe abaturage kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye bityo bibashe kuba byabonega umuti bityo abaturage babeho bafite umutekano.

Abantu benshi bari kumwe n'inzego z'umutekano bakaba bari gukora imirimo y'amaboko aho bishakamo ibisubizo. Ni byiza ko twese tuba tugomba guhuza imbaraga, kugira ngo twishakemo ibisubizo dukora imirimo itandukanye y'amaboko.

Urubyiruko ruri hafi y'umurima w'amasaka aho bikoreye ibintu bimeze nk'amabuye bakaba bagamije kujya kubyubakisha inyubako zigiye zitandukanye bityo kugira ngo bishakemo ibisubizo.

Abaturage bari gukora imirimo y'amaboko, bifashishije amasuka n'imipanga, aho bari gutema ibihuru kugira ngo babashe kuba bakora ikibuga, ikindi kandi ibi bikorwa bikaba bibafasha kwiteza imbere.

Abayobozi mu nzego z'umutekano bakaba bari kumwe n'abaturage ahantu munsi y'igiti mu byatsi ku busitani aho hirya y'aho hari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, abantu bakangurirwa kugana ibigo kugira ngo babashe kuba bahabwa inama zitandukanye.

Ikipe y'abasore n'abagabo bakina umupira w'amaguru, bakaba bari ku kibuga. haruguru y'ikibuga hakaba hari umurima w'amaterasi ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye, abakora umwuga wo gukina umupira w'amaguru, banezezwa n'uko babasha kwidagadura.

Ibibuga bikinirwaho imikino igiye itandukanye bizwi nka sitade bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri irimo gukina umupira w'amaguru, ikindi kandi ibibuga byakira abantu bagiye batandukanye babasha kuba bakoreraho imikino igiye itandukanye.

Abantu bari gukina imikino itandukanye aho bambaye imyenda ya siporo bakaba bari ku kibuga k'igitaka ikindi kandi hafi y'icyo kibuga hakaba hari ibyatsi, haruguru y'ikibuga hakaba hari inyubako zubakiye igipangu, ikindi kandi zikaba ziri mu biti ndetse n'ibindi bimera byinshi.

Abana bambaye imyambaro ya siporo bakaba bari ku kibuga cy'umupira aho bagiye gukina imikino igiye itandukanye, haruguru y'ikibuga hakaba hari inyubako ziri mu biti ikindi kandi ibibuga bikaba bibafasha gukora imikino n'imyidagaduro igiye itandukanye.

Abantu batatu bari ku kibuga bakaba bari gukina umupira w'amaguru, babiri bambaye imyambaro y'ubururu undi akaba yambaye umwambaro w'umuhondo, iyi mikino ikaba ibafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imikino ihuza imirenge itandukanye yo mu Karere ka Nyagatare aho bafite ibibuga bitandukanye bashobora gukiniramo imikino y'imipira y'amaguru bityo bakabasha kwidagadura, abakora umwuga wo gukina umupira banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga abasha kuba yabafasha mu buzima bwabo.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru ku kibuga bakaba bambaye imyambaro irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, hakurya hakaba hari umurima uriho amatarasi, abakora imyitozo ngororamubiri yo gukina umupira w'amaguru banezezwa nuko bafite ibibuga bibafasha gukora imyitozo.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru, bakaba bari ku kibuga, bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'ubururu, ibibuga nk'ibi bifasha abantu gukora imikino itandukanye, ibafasha kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri.

Abana b'abakobwa babiri, umwe wambaye umwambaro w'ubururu, undi wambaye umwambaro w'umukara bakaba bari ku kibuga bari gukina umupira w'amaguru, hirya yabo hakaba hari ibiti, ikindi kandi bakaba bari gukinira ku kibuga cy'igitaka.

Abakobwa bari gukina umupira w'maguru ni amakipe abiri, imwe yambaye imyambaro mu ibara ry'ubururu, ikindi kandi abandi bakaba bambaye imyambaro irimo ibara ry'umutuku bari gukinira ku kibuga.

Abantu benshi bari mu muhanda bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka n'amaguru, hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti by'imikindo ndetse n'igisambu kirimo ibyatsi bityo tukaba tugomba gusobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Abakinnyi bambaye imyambaro irimo amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, bakaba bari ku kibuga kiriho ibyatsi byinshi ndetse hirya yaho hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye, abakora iyi mikino banezezwa nuko babasha kubona ibibuga bakoreraho imyitozo ngororamubiri.

Abakinnyi bari ku kibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, ikindi kandi ibibuga bikaba bikorerwaho imikino itandukanye, aho abantu bifashisha ibyo bibuga kugira ngo babashe kuba bakora imyidagaduro ndetse n'imikino igiye itandukanye.

Umusore uri ku igare riri kumanuka, ahetse ibitoki, inyuma hakaba hari undi ushoreye igare uri kuzamuka utwaye umuzigo, hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Abantu bicaye ku mapikipiki abiri, bakaba bari mu muhanda w'amabuye, hirya y'umuhanda hakaba hari andi mapikipiki menshi, ari iruhande rw'inyubako iri mu mabara y'umweru.

Umwana uhagaze mu muhanda wa kaburimbo akaba ateruye ikintu agendesha, si byiza ko abana bajya mu muhanda wa kaburimbo kuko bishobora guteza impanuka zitandukanye, ku nkengero y'umuhanda hakaba hari inyubako, iruhande rwayo hakaba hari ibyatsi bitandukanye.

Umuntu wicaye ku ipikipiki akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye, imihanda ya kaburimbo ikaba ifasha mu kugenda ndetse n'abakora umwuga nk'uyu bikaba bibafasha mu koroshya ingendo.

Umuntu upakiye imizigo y'ibitoki ku igare akaba ari kugenda muhanda wa kaburimbo, hepfo y'umuhanda hakaba hari inyubako ziri mu mabara y'umweru, ikindi kandi imbere y'inyubako hakaba hari imiyoboro y'amashanyarazi.